Ku ruhimbi hateye intebe, buri ntebe yicayemo umuntu ufite igitabo, bigaragara ko hari ikirikwigwaho kugira ngo gifatirwe umwanzuro.

Inzego z'ubuvuzi zegereje abaturage, urwego rwo kugabanya umubare munini w'abantu bapfa bazize indwara itandukanye; ni ngombwa ko umuntu wese yumva atameze neza agana inzego z'ubuvuzi zikamufasha.

Iyo icyorezo kibonetse mu gace runaka, abayobozi bashishikariza abaturage kwirinda ndetse ugize ibimenyetso, akagana ikigo nderabuzima kimwegereye ndetse bagatangira amakuru ku gihe.

Ni ngombwa ko abana bakwiye gukarabywa intoki kenshi gashoboka, mbere yuko bafata amafunguro na nyuma y'uko bavuye gukoresha ubwiherero rusange, kuko bibarinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa n'isuku nkeya.

Umwana ukiri mutoya, ari ku ivomero rusange, ari kuvoma amazi yo kwifashisha mu muryango we, amazi ni ngombwa cyane mu bikorwa bitandukanye, amazi atuma tugira ubuzima buzira umuze.

Intanga. Intanga ni umusemburo ukorwa n'umubiri w'umugabo, umusemburo ukorerwamo mo imbere mu mubiri, iyo umugabo akoze imibonano mpuzabitsina, akayihuza n'umugore uri mu gihe cy'uburumbuke, iyi ntanga iragenda muri nyababyeyi, igatangira kurema umwana.

Abana bato babiri, ubona ko bishimye, umwe ari gufasha mugenzi we gukorera isuku intoki ze, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'isuku idahagije.

NATIONAL DIALOGUE ON HEALTH FINANCING, ni umunsi washyizweho kugira haganirwe ku ngengo y'imari ikwiye gushorwa mu kwita ku mibereho y'abaturage, haba mu buryo bwo kuborohereza kubona imiti, ku giciro kitabagoye ndetse n'izindi serivisi z'ubuzima.

Muganga yambaye imyenda y'akazi ari mu biro bye ari gukora ibizamini yifashishije imashini zabugenewe mu kwerekana ibisubizo byavuye mu isuzuma ryakorewe umurwayi.

Ubukangurambaga buhabwa imiryango inyuranye. Bukayifasha kuva mu bibazo bimwe na bimwe, biterwa no kutagira ubumenyi bwuko bakita ku bana babo, mu rwego rwo kwimakaza imibereho myiza ya sosiyete.

Bimwe mu byo abantu bashobora kubura ntibarambe harimo n'amazi, ni ngombwa ko tubungabunga amazi aho turi hose kuko amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Hari ikigo nyafurika gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, kigenzura ibyorezo, imiti ihabwa abaturage mu gihugu kugira ngo harusheho kwimakazwa ubuzima buzira umuze.

Abaturage batandukanye bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama, bamwe muri bo bitwaje aho kwandika ingingo z'ingenzi ziri buvugirwe muri iyo nama, abandi baratuje bateze amatwi ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Imiteri imwe mu ndwara itwara ubuzima bw'abantu benshi, hakunze gutangwa amahugurwa yo gukangurira abaturage kujya kwipimisha kugira ngo bamenye aho bahagaze, bigakorerwa ku bitaro hirya no hino mu gihugu.

Umubyeyi ufite umwana we ubona ko yagiye kumuhesha imiti imurinda indwara zitandukanye abana bakunda guhura nazo mu gihe bakiri batoya . Ni ngombwa ko buri mubyeyi wese akwiye guhesha inkingo ndetse n'imiti uko byagenwe mu rwego rwo kurinda abana kurwaragurika.

Abantu batandukanye bicara mu nama bakaganira ku bibazo byugarije imiryango runaka, bagatanga ibitekerezo byakorwa kugira ngo hagumize habungwabungwe imibereho myiza y'abantu, barwanya indwara zimwe na zimwe ziba zigaragara muri sosiyete.

Umugabo uri gufasha umwana kwikorera ibido avuye kuvomeramo amazi, ubona ko iyo vido iriho ikirango cya UNICEF.

Antu batandukanye bicaye mu cyumba kimwe ubona ko buri wese ari gutekereza ibye, ubona ko bategereje ubaha ubufasha, umubyeyi umwe muri bo biragaragara ko afite igikomere ku gahanga.

Umwana muto arapfukamye ari kunywa amazi kuri robine yifashishije ibiganza bye, ni ngombwa ko utunywa amazi asukuye hifashishijwe imiti yabugenewe mu gusukura amazi cyangwa se mbere yo kunywa amazi tukayateka.

Ababyeyi baturutse mu miryango igiye itandukanye, bahurira hamwe bakaganira ku bibazo imiryango yabo igenda inyuramo ndetse bakaganira ku cyakorwa kugira ngo bateze imbere imibereho myiza y'abagize imiryango yabo mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye.

Abana bakusanyirijwe hamwe, bambaye imyenda isa, bari kwitabwaho n'inzego z'ubuyobozi babafasha kubona indyo yuzuye, aho abashinzwe inzego z'umutekano na bo bari gufasha abana bato kunywa igikoma cyujuje intungamubiri.

Abana babiri bari ku ivomero aho umwe ari kuvomera amazi mu ndobo, undi atwaye indobo iri butwarwemo ayo mazi.

Ikigo cyubatse neza gitatse ubona ko gikikijwe n'amazi impande zose, abakozi bari gutambagira bareba neza ahangiritse mu rwego rwo gusana inyubako, kugira ngo ibe yuzuye ikomeye yujuje ubuziranenge.

Inama yahuje abantu benshi baganira ku buryo ki hakwiye kongerwa ingengo y'imari igura imiti izanwa mu gihugu kugira ngo yite ku barwayi bafite indwara zitandukanye.

Abantu bahuguriwe kwita ku buzima bw'abantu, abaganga ni bamwe mu baba bafite ubumenyi bwo kuvura indwara zitandukanye ndetse bita ku barwayi bose babagana.

Abantu benshi bari kumwe bambaye amataburiya y'akazi ubona ko bafite ikarita zigaragaza imirimo bakora, bari kumwe n'umugabo wambaye kositime ari hagati yabo.

Amazi ni isoko y'ubuzima, amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ngombwa ko tunywa amazi yasukuwe neza, hakoreshejwe imiti yabugenewe mu gusukura amazi, kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Mbere yuko umwana afata inkongoro ni ngombwa ko akarabywa intoki neza n'amazi meza ndetse n'isabune, noneho mu gihe cyo kunywa akanywa amazi asukuye hifashishijwe imiti yabugenewe, bityo bituma atarwara indwara ziterwa n'isuku nke.

Ahagaze imbere y'imbaga ari gutambutsa ubutumwa yifashishije mikorofone kugira ngo ubutumwa bwe busakare kuri bose.

Umunyeshuri yambaye impuzankano y'ikigo ari gukorera isuku intoki ziwe nk'umuco wo guca umwanda no kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe ubona ko ari imbaga yaje yitabiriye igikorwa kidasanzwe, ubona ko aho hantu hashyizwe, ibyuma byifashishwa mu gusakaza amajwi.

Ari kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, abandi bari kumurebera n'ubwo amazi ari kumeneka hasi, ibido yiwe irafunze, abandi bana bari kumureba ibyo ari gukora.

WASAC ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi meza hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kigatanga amazi yifashishwa n'abantu mu bikorwa byabo bya buri munsi, abarinda uburwayi butandukanye.

Umubyeyi arimo gufasha umwana kuvoma amazi, abandi bari kureba ubwitange bw'uwo mubyeyi, ari gufasha umwana kuvoma amazi, amazi ni ikintu k'ibanze mu mibereho ya buri munsi, buzima bwa muntu.

Ababyeyi batandukanye, baturutse impande n'impande, bahuriye ahantu hamwe, bafite abana babo, hari abakorerabushake bari kwita ku mibereho myiza y'abo bana, babafasha kubaha indyo yuzuye.

Hari ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kwita ku barwayi bagiye batandukanye ndetse n'imashini zikoreshwa mu kugaragaza uko ubuzima bwabo buhagaze, bikoreshwa n'abaganga mu rwego rwo kumenya neza indwara y'uwo bavura iyo ari yo.

Hariho inzego bireba, mu kugira inama imiryango, ku bigendanye n'imibereho myiza y'abagize umuryango runaka, umuyobozi ashobora gusura umuryango akawuganiriza ibyo bashobora kwifashisha mu guteza imbere imibereho myiza y'abagize umuryango.

Abantu batandukanye bahuriye mu cyumba kimwe baricaye, buri wese afite aho ari kwandika ibiri kuvugirwa mu nama bigaragara ko hari uri kubabwira.

Hirya no hino hatangwa ibiganiro bigamije gushishikariza abantu uburyo ki bakwita ku buzima bwabo, bakaganirizwa ibyo bakora mu rwego rwo kongera imibereho myiza ndetse n'icyo bakora mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'isuku nkeya, ibyo byose bikaganirizwa abaturage bityo bikabafasha kwiteza imbere mu mibereho yabo.

Abana bakunda gukina n'amazi ariko biba ngombwa ko abana batozwa uburyo ki bakoramo isuku ndetse n'uburyo ki bakorera amazi bagiye kunywa isuku, mu rwego rwo kwirinda indwara iterwa n'umwanda.

Itsinda ry'abaganga bakora umurimo wo kwita ku buzima bw'abantu, bambaye imyenda y'akazi, ubona ko biteguye gufasha umurwayi ubagana, bambaye imyenda ibafasha kutandura indwara, zishobora gukwirakwizwa mu gihe bari kwita ku murwayi.

Abantu babiri bari gukoresha amazi y'igishanga, umugore ari kuvoma ayo mazi ngo ajye kuyakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Umusore we ari gukoresha ayo mazi yoza igare rye.

Abanyeshuri bari ku ishuri ubona ko bose bambaye impuzankano, bari kuri kandagira ukarabe bari gusukura intoki zabo rwose mu rwego rwo kwimakaza isuku, haba ku ishuri ndetse no mu rugo mu buzima busanzwe.

Hirya no hino hashyirwa ubukangurambaga, ku kwita ku buzima bw'umurwayi, hagenda hashyirwaho abajyanama b'ubuzima hirya no hino mu midugudu, bashinzwe gufasha abarwayi kutarembera mu rugo, baba hafi ubutabazi bw'ibanze.

Ababyeyi bicaye ahantu hamwe bose bafite abana, hari umuganga uri kugenda utera abana ingingo zitandukanye, ni byiza ko buri mubyeyi wese ahesha umwana we inkingo uko bikwiye.

Umwana muto yambaye ikanzu itukura arimo arakorera isukura intoki ziwe kuko isuku nisoko y'ubuzima bigaragara ko uyu mwana yishimiye igikorwa arimo gukora cyo gusukura umubiri we mu rwego rwo kurwanya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Kugira ngo umwana agire ubuzima buzira umuze n'ubudahangarwa bumurinda kurwaragurika indwara za hato na hato ziterwa n'isuku idahagije. Ni ngombwa ko umubyeyi akwiye guhesha umwana we inkingo zabugenewe, bifasha umwana mu gukura neza atarwaragurika.

Abanyeshuri benshi, bambaye imyenda y'ishuri, bari kumwe n'ababarera, barishimye, bari kuzamura amaboko, bagaragaza ko bishimye.

Amazi ni isoko y'ubuzima, umuntu adafite amazi ntago yabasha kubaho, kuko kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwacu kigizwe n'amazi, biba byiza iyo umuntu yitaye ku isuku y'amazi, kuko bimurinda kurwaragurika bya hato na hato.

Ku bigo by'amashuri hakwiye gushyirwaho amazi asukuye ko abana bakenera kunywa amazi, mu gihe bari kwiga bityo bikabafasha gutsinda neza, bibarinda kurwaragurika indwara ziterwa n'isuku nkeya.

Ababyeyi bicaye bitabiriye gahunda yo kwisuzuma kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, bari kumwe n'umuganga ufite igikoresho kifashishwa mu gupima agaragaza uko umuvuduko w'amaraso w'umuntu ungana.

Iyo umuntu afite igikomere agana inzego z'ubuzima zikamufasha kwita kuri icyo gikomere, mu rwego rwo kwirinda ko hakinjiramo udukoko, bityo indwara idakura cyangwa se ikabyara kanseri.

Ababyeyi batandukanye bagiye kwisuzumisha ku mujyanama w'ubuzima, mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, hari kwifashishwa icyuma cyabugenewe mu gupima urwego amaraso y'umubiri aba ari gutemberamo kugira ngo hamenyekane niba umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso.

Abana bagiye kuvoma amazi, bari gufashwa n'umukobwa kuvoma neza amazi batiyanduza, amazi ni ingenzi cyane mu mibereho yacu, amazi adufasha kugira ubuzima bwiza.

UNICEF, ikigo mpuzamahanga gikorera mu bihugu byose byo ku isi, gifasha abantu bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye, giha ubufasha abantu bafite indwara ndetse n'ibindi.

Kugira ngo iterambere ry'imibereho myiza y'abantu rigerweho, ababifite mu nshingano barahura bakicara bakaganira, bagashaka ibisubizo ku ndwara zimwe na zimwe ziba zugarije isi.

Hari ibyuma byabugenewe byifashishwa kwa muganga, byifashishwa mu gihe bari gufasha umuntu ufite ikibazo cyo kudahumeka neza, ibyo byuma bimufasha guhumeka neza bikamwongerera umwuka.

Ivunge ry'abantu batandukanye baturutse ahantu hatandukanye, abagore, abagabo ubona ko bishimiye kuba bari kumwe, bari imbere y'inyubako barimo bifotoza.

Umunyeshuri wambaye umwenda w'ishuri, ari gukoresha kandagira ukarabe, asukura intoki ze n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bahuriye ku mugezi bagiye kuvoma amazi, barimo kuyamena bigaragaza ko abana bakunda gukina n'amazi, ni byiza ko abantu bakoresha amazi meza birinda kuyasesagura.

Umubyeyi uhagaze, uteraye mwana, ufite ifishi mu ntoki, ubona ko huzuye abandi babyeyi benshi, bazanye abana babo kwa muganga.

Amazi isoko y'ubuzima, amazi meza ni inzira ituma abantu babasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri ndetse bakirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abaturage benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bamwe muri bo bafite amakayi bari kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama, abandi baricaye, bateze amatwi nta kavuyo.

Biragaragara ko umurwayi afite ubwoba bwo guhabwa urukingo, kuko umuganga ari kugerageza kumutera urushinge, uri kubona ko umurwayi ari gushinyiriza, bigaragaza ko afite ubwoba bw'urukingo agiye guhabwa.

Umukobwa wicaye arimo kuvoma amazi yo gukoresha mu mirimo itandukanye, bigaragara ko arimo gukorera isuku imyambaro ye, arimo kuvoma amazi kugirango ngo abashe gukomeza igikorwa cyo gusukura imyambaro ye.

Abantu benshi bahuriye ku mugezi, bari kugerageza kuvoma amazi bayashyira mu bikoresho byabo kugira ngo aze kubafasha mu rugo mu bikorwa bitandukanye nko gukora isuku, gutegura amafunguro n'ibindi byose bibafasha kubaho.

Umugabo uri gukora isuku y'intoki akaraba kuri kandagira ukararabe, nyuma y'uko amaze gukoresha ubwiherero, ni ngombwa ko buri muntu yimakaza umuco wo gukorera isuku intoki ze mu rwego rwo kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Umwana afashe igikombe ari ku mugezi ushoka ari kuvoma amazi yo kunywa, amazi ni ingenzi cyane mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi, amazi ni kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu.

Umwana n'umubyeyi bagiye gushaka amazi ahantu ubona ko iryo vuriro rifite amazi atemba, amazi atujuje ubuziranenge. Ni ngombwa ko abantu bakoresha amazi asukuye bifashishije imiti yabugenewe mu gusukura amazi.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza bw'abantu, bakwiye kurya imbuto, imboga, ndetse n'ibyubaka umubiri, n'ibitera imbaraga, imboga zikwiye kwiganza ku mafunguro ya buri munsi abantu bafata, bagatera imboga ku turima tw'igikoni, bibafasha kubona imboga zihagije ku mafunguro yabo ya buri munsi.

Inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, abakozi ndetse n'abakoresha, bicaye hamwe bari kuganira bifotoza bajya inama y'icyo bakora kugira ngo barusheho kunoza umurimo wabo.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama bicaye batuje, bateze amatwi ibiri kuvugirwa muri iyo nama, bambaye imyenda iriho ibirango bya HDI, ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Abana bari mu mazi bari gukina boga bigaragara ko aba bana bishimiye umukino bari gukora, ni ngombwa ko abana bajya koga bafite ubahagarikiye mu rwego rwo kwirinda ibyago bishobora guterwa n'uko barohama mu mazi.

Ababyeyi bateraniye mu nzu, bishimye, barimo barabyina, buri wese abyina nk'inyambo, abyina kinyarwanda nk'uko umuco wa kinyarwanda ubigaragaza.

Abana bambaye imyenda y'ishuri, bari kuvoma amazi bayashyira mu bikoresho bibafasha kugeza amazi aho bayajyanye, umwe muri bo ari gutoba amazi, ibintu bishobora gukwirakwiza uburwayi bw'isuku idahagije.

Umubyeyi wagiye gusuzumisha umwana we kwa muganga, muganga ari kugerageza kwita ku mwana hitabwa ku gukurikirana ubuzima bw'umwana mu rwego rwo kwirinda impfu nyinshi ziterwa no kudakurikiza inama abaganga bagira ababyeyi bafite abana bato.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bose bambaye imyenda y'umweru hejuru, ubona ko bicaye batuje, bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Ababyeyi batandukanye bahuriye ku kigonderabuzima bagiye kuvuza abana babo, ubona ko uburi wese afite ibyangombwa ari bwereke umuganga kugira ngo ahereho yita ku murwayi.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze ubona ko bafite amakayi bari kugenda bandikamo ibyo bari kwigira aho bari, urabona ko imbere yabo hariho umuntu uri kubigisha ikintu runaka.

Igikorwa cyo kwegereza amazi abaturage ni ingenzi cyane mu guteza imibereho myiza yabo, ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'amazi adahagije, ndetse n'amazi adasukuye. Amazi asukuye abafasha mu kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa aricaye arasutamye ari kuvoma amazi ubona ko ari mu gikorwa cyo gukorera isuku imyambaro ye, ari kuza gutwara amazi aribwifashishe mu kumesa imyenda yiwe.

Abantu benshi urujya n'uruza rwateraniye ivomero rusange ubona ko baje mu gikorwa cyo kwishimira kwegerezwa amazi hafi yabo mu bikorwa byabo bya buri munsi, mu rwego rwo kwimakaza ubuzima bwiza ndetse bushingiye ku mazi hitabwa ku isuku cyane cyane y'amazi.

Umwana ari ku mugezi afite igikombe ari kuvoma amazi bigaragara ko agiye kunywa amazi. Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, umuntu adafite amazi ntiyabasha kubaho neza.

Ababyeyi, n'abagabo babo, n'abana babo, bateraniye mu rugo rw'umuntu, bagiye kumusura bishimye, biragaragara ku maso yabo barimo baraseka.

Abantu bari kuvoma amazi, bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bateraniye ku mugezi, umubyeyi ari gukorera isuku umwana we. Isuku nk'isoko y'ubuzima.

Abantu bicaye hamwe ubona ko bari kuganira ku kintu, buri wese afite ikayi ari kwandikamo ibitekerezo by'ingenzi, bari kumwe n'ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'akazi.

Ababyeyi batandukanye bari ku ivomero ubona ko bari gufasha mugenzi wabo kuvoma amazi yo kwifashisha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi, amazi ni ingenzi cyane mu guteza imibereho y'abaturage imbere.

Abantu bicaye ubona ko bambaye imyenda y'abaganga bafite n'amakarita y'akazi, bigaragara ko ari abantu bakorera ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu.

Umuntu wishimiye kuvoma amazi, ubona ko arangije kuvoma amabido akayashyira ku ruhande ari gukaraba intokize neza kugira ngo anywe amazi.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, bateranye, ubona ko ababakuriye babicaye imbere, abandi na bo biteguye kumva ibyo bagiye kugezwaho n'ababakuriye.

Abaganga ni bamwe mu badufasha kubona ibisubizo by'uburwayi bwacu ndetse bakaduha n'imiti idufasha kurwanya indwara zimwe na zimwe n'ubujyanama ku bigendanye n'imibereho y'ubuzima bwacu.

Abaturage benshi bateraniye hamwe, bari kubyina ubona ko bishimye, bambaye umwenda ugaragaza ko ari abajyanama b'ubuzima ndetse n'amakarita agaragaza umwuga bakora, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya mayange.

Ababyeyi benshi bahuriye kwa muganga, bose bafite abana, ubona ko hari umuganga uri kubafasha gusuzuma imikurire y'abana babo, bakuzuza ifishi igaragaza uko ubuzima bw'abana babo buhagaze.

Abana bato ubona ko bishimiye kuvoma amazi, kugira ngo abafashe mu bikorwa byabo bya buri munsi, abana ubona ko bambaye impuzankano, bigaragara ko ari abanyeshuri.

Abantu benshi cyane bahuriye ku mugezi ubona ko baje gushaka amazi yo gukoresha mu ngo zabo. Amazi ni ikintu cy'ibanze mu buzima bwa muntu mu rwego rwo kugira ubuzima buzira umuze.

Imbaga y'abantu benshi, abana, abagabo, abagore, bateraniye ku karubanda, hari abagabo bigaragara ko bari gukina ikinamico, hagaragazwa bimwe mu bimenyetso by'indwara ya Ebola n'uko umuntu uyanduye aba ameze.

Umugabo wicaye wigunze, wegamiye igikuta ubona ko yicaye ahantu hasa nabi, bamena ibikoresho byarangije gukoreshwa, bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu hamwe bigaragara ko habaye umunsi mukuru, buri wese afite uruhande yicayemo ndetse akaba afite n'abamukikije.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko bari kwifotoza bari kumwe n'inzego z'umutekano zitandukanye, bari muri gahunda yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abantu batandukanye bahuriye mu nama, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, bahanahana ibitekerezo, hagamijwe gushaka igisubizo cy'ibibazo byugarije ubuzima bw'abantu.

Umubyeyi w'umugore wicaye ubona ko ari gutekereza cyane afite ikibazo, si byiza ko umuntu yigunga kuko bigira ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe.

Ababyeyi bateraniye hamwe, ubona ko bishimye, bari gukoma amashyi, bambaye amakarita aranga umurimo bakora, hagati yabo hari ameza ateretseho uducupa.

Umugabo wicaye hasi ubona ko inyuma ye hari abantu bahagaze, bari kugenda bamutaho ibintu by'amafoto ubona ko yambaye amapingu, biragaragara ko hari ibyaha yakoze.

Baricaye bari kuganira kugingo zigiye zitandukanye bari guhana ibitekerezo ku biganiro bari kugirana bambaye upfukamunwa bicaye hanze ku izuba.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hari inzobere zishinzwe kumugira inama y'icyo yakora mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, ku bigendanye n'imitekerereze, akaba yahabwa ubujyanama, ndetse n'imiti imufasha kugira ubuzima bwiza, mu mitekerereze.

Ibarura rishinzwe kugaragaza ikigero cy'umubare w'abantu bapfa biyahuye mu gihugu cy'u Rwanda, irangana na cumi na kane.

Abantu benshi batandukanye, yaba abakuru n'abato, bari hamwe bose bari mu gikorwa cyo kwamamaza, bazamuye amadarapo y'ibendera ry'u Rwanda bagaragaza ibyishimo mu maso habo.

Bimwe mu bitera uburwayi bwo mu mutwe harimo ihohoterwa umuntu akorerwa bityo akabura ubutabera bikamutera agahinda gakabije, bityo bigakuza uburwayi bwo mu mutwe ugasanga umuntu ntabwo agitekereza neza.

Abanyeshuri benshi, bishimye, bose bambaye imyenda y'ishuri, ubona ko bateraniye mu kibuga, bose bazamuye amaboko, bishimye cyane uko bigaragara.

Hari uburyo bwinshi bwashyizweho mu kugira abantu inama ku kigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari inzobere zifasha abantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Kubagira inama ndetse no kubafasha kubaha imiti ibafasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Urubyiruko rwateranye rwicaye, ubona ko bambaye imyenda isa, bigaragaza ko bari guhabwa amahugurwa abafasha kuva mu cyiciro kimwe bajya mu kindi.

Umutwe w'umuntu ugizwe n'ubwonko, ubwonko ni igice kiri mu mutwe w'umuntu gifite ibice bitandukanye buri gice kikaba gifite inshingano zo kugenzura ibice na bimwe by'umubiri, ubwonko ni bwo butegeka umubiri w'umuntu ukora ibintu bitandukanye.

Umwana muto wishimye wicaye ku ntebe yashyize akaboko ku meza, ubona ko ari mu ishuri, ari guseka yatamiye umugati ugaragaza ko ari umwana ufite ubuzima bwiza.

Abaturage bateraniye mu gikorwa cyo kubungabunga ibidukikije, barimo baratera ibiti by'ubwoko butandukanye, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije kuko ari isoko y'ubuzima.

Umuntu arahagaze, yipfutse mu maso. Yipfukishije agatambaro, yahishe isura yiwe ibigaragaza y'uko afite ikibazo cy'ubuhumekero. Ikigaragara cyo afite uburwayi.

Urubyiruko rwahuye ruri kumwe n'abayobozi bigaragara ko, urubyiruko rwahawe imyenda isa, udupira tw'ubururu mu rwego rwo gukomeza gahunda barimo yo kubahugura.

Abantu babiri bicaye bigaragara ko umwe muri bo afite ikibazo kimukomereye, yashyize amaboko ku meza yifata ku mutwe bigaragara ko ari gutekereza cyane, umwegereye ari kugerageza kumuganiriza ngo arebe ko yatuza.

Ababyeyi babiri, bafite umwana wabo hagati, ubona ko umwana wabo afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ukurikije uko agaragara n' imyambaro yambaye.

Ababyeyi baricaye bari kuganira bigaragara ko bari kujya inama ku mibereho itandukanye y'ubuzima bwabo bwa buri munsi, umubyeyi umwe aricaye ateze amatwi inama za mugenzi we.

Inzobere ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe zihurira hamwe zikaganira ku bitera uburwayi bwo mu mutwe ndetse hagashakishwa n'icyakorwa kugira ngo umubare w'abantu barwaye indwara zo mu mutwe ugabanyuke.

Isange wani sitopu senta, ni ikigo cyashyizweho na Leta y'u Rwanda, kugira ngo gifashe abantu bose bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bahabwe ubutabazi bw'ibanze, bityo bibarinde ingaruka ziva mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abantu bahagaze, abagore n'abagabo, bafite amakarita agaragaza ikigo cyashinzwe n'umugore wa nyakubahwa perezida Paul Kagame ari we witwa Jeannette Kagame, ari kumwe na bo, bari kwifotoza bagaragaza umushinga yatangije witwa Imbuto Foundation ushinzwe kwita ku bana b'abakobwa.

Umugabo usa nabi, wambaye ibishashi bishaje, bajugunye mu kimoteri, wabyambaye umubiri wose, bigaragara ko ari umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ukwiye kwitabwaho.

Rwanda mento herufu nasingi situdenti asosiyesheni, ikigo gifasha abanyeshuri kwiga indwara zitandukanye zibasira ubwonko ndetse bikabangamira imitekerereze yabo.

Biba byiza iyo umuntu agiye aho abandi bari kuko bimufasha gusabana na bo, bakaganira bikamurinda gutekereza cyane ku buryo ashobora gutekereza ibintu bishobora kumwangiriza ubuzima bwe bwo mu mutwe, twavuga nk'agahinda gakabije, akumva se adashaka kuba aho abandi bari, kwigunga, kimwe mu byamufasha ni ukujya aho abandi bari.

Umubyeyi aricaye ateruye umwana we undi amwicaye iruhande imbere hari isahane irimo ibyokurya bigaragara ko bitegura kurya.

Umugabo usa nabi, wambaye imyenda isa nabi, udakorera ubwanwa bwe isuku ndetse n'umusatsi we, bigaragara ko adaheruka gukaraba, biragaragaza ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

ubabaye afite agahinda bigaragara ko hari icyamubayeho kitari cyiza kuko jisho ryatukuye arimo kurira, ikigaragara ni uko atishimye hari ikintu kibi cyamubayeho.

Bimwe mu biganiro tugirana n'inshuti zacu, abo mu miryango yacu cyangwa se tubwirwa n'abaturera, bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze yacu mu gihe ari ibidupfobya, bishobora gutera umwana agahinda gakabije ndetse n'ihungabana ryo mu mutwe.

Abantu benshi, ababyeyi bateraniye ahantu muri sare, bicaye ku buryo bw'uruziga kugira ngo babashe kuganira neza, haganirwe ku bibazo bigiye bitandukanye, ababyeyi bane muri bo bahagurutse bari hagati yabo, bari kuganira ku ngingo yabahuje.

Ubu arimo araseka bigaragara ko yishimye, afite mu kanwa heza, ikigaragara cyo akorera isuku amenyo ye, bityo bimurinda kugumana ubuzima bwiza, bikamurinda impumuro mbi ishobora gutuma agira ipfunwe ryo kuganira igihe ari kumwe n'abandi.

Umurwayi aryamye ku gatanda ari kwitabwaho n'abagabo babiri, bambaye udukoresho tubafasha kwirinda gukomereka mu gihe barimo bakura umurwayi amenyo.

Umwana uryamye ku gitandareba hejuru uri kwitabwaho n'abaganga bafite ibikoresho byifashishwa mu gukura amenyo, ubona ko uyu mwana agiye kumuvura amenyo.

Umugabo usa neza uri guseka, ubona ko yafashe urutoki rwe akerekana uko amenyo ye asa, bigaragara ko akorera isuku ye amenyo bityo umuntu ukorera isuku amenyo ye bimurinda kurwara indwara zo mu kanwa.

Umugore wagiye kwa muganga kwaka serivisi yo kumuhindurira amenyo, ari kwitabwaho n'umuganga bigaragara ko yishimiye ibikorwa ari gukorerwa n'umuganga.

Indwara y'amenyo ni imwe mu ndwara iterwa nuko abantu batitaye ku isuku yo mu kanwa, ni ngombwa ko umuntu amenya gukorera neza akanwa ke isuku hifashishijwe imiti yabugenewe.

Umurwayi aryamye ku gatanda ari kwitabwaho n'umuganga wambaye uturindantoki ndetse uri kwifashisha ibyuma byabugenewe mu gukura amenyo y'umuntu.

Igishushanyo kigaragaza uko amenyo y'umuntu aba ateye mu kanwa ndetse n'umubare wayo uko aba angana, ku muntu wese wujuje imyaka yo kuba afite amenyo yuzuye.

Abanyeshuri beza bari kumwe n'umwarimu wabo, ubona ko bishimye, bafite umuti ukoreshwa hasukurwa amenyo uzwi nka Whitedent umuti wifashisha mu gutuma umuntu akorera isuku amenyoye bikamurinda uburwayi buterwa no kudakorera isuku amenyo.

Umurwayi w'umugabo uryamye ku gatanda k'abarwayi ubona ko ari kwitabwaho n'abaganga bamuha serivisi yo kwita ku menyo ye, ubona ko bamwambitse ibikoresho bibafasha kumutunganyiriza amenyo ye.

Guukorera isuku amenyo, ni kimwe mu bituma indwara zo mu kanwa zigabanyuka, iyo umuntu agize indwara zo mu kanwa agana ibitaro bimwegereye bakamufasha ndetse yaba arwaye amenyo bakaba bamufasha kuyakuramo ku buryo bitagira n'ikindi kibazo biteza.

Ubuvuzi bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere, hazanywe ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari kwitabwaho afite uburwayi bw'amenyo.

Umugabo ubona ko ari gukorera isuku y'amenyo yifashishije agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo agamije gukura imyanda itabasha gukurwamo n'uburusu hagati mu menyo. Ni ngombwa gukorera neza isuka amenyo yacu mu rwego rwo kwirinda bumwe mu burwayi bufata amenyo y'umuntu bityo bikangiza ubuzima bwo mu kanwa.

Isuku yo mu kanwa ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko birinda umuntu kugira impumuro mbi mu kanwa ndetse n'izindi ndwara zishobora gufata amenyo y'umuntu udakorera isuku akanwa ke.

Umwana afashe uburoso ari gushyira mu kanwa agerageza gukora isuku mu kanwa mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'isuku nke yo mu kanwa, ndetse n'impumuro itari nziza iterwa no kudakora isuku neza mu kanwa.

Ibyumba birimo ibikoresho bitandukanye birimo utubati, intebe yicarwaho n'umuganga, igitanda cyifashishwa n'umurwayi mu gihe umuganga agiye kumukorera isuzuma.

Umurwayi w'amenyo ari kumwe n'umuganga, ari kumusuzuma ikibazo afite mu menyo, yifashishije agakoresho kabugenewe mu kugenzura uburyo ki amenyo yangiritse yambaye uturindantoki.

Umuganga afite ibikoresho, yambaye uturindantoki, ari kumwe n'umurwayi w'amenyo, ari kumukura amenyo yifashishije ibyuma byabugenewe.

Umwana ufite uburoso bigaragara ko agiye gukorera isuku amenyo, mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa no kudakorera isuku mu kanwa, ndetse n'impumuro mbi iterwa no kudakorera isuku mu kanwa.

Abaganga bari kwita ku mwana ufite ikibazo cy'amenyo bigaragara ko bari gusuzuma bareba uburyo ki bafasha uyu mwana.

Isuku yo mu kanwa ni kimwe mu bintu abantu badakunze kwitaho cyane ariko irakenewe cyane mu rwego rwo kubungabunga amagara mazima ndetse no kugira impumuro nziza mu kanwa, ku buryo bitagutera ipfunwe mu gihe uganira n'abandi.

Umugabo yicaye mu cyumba, bigaragara ko ari umuganga, yambaye imyenda y'akazi, ari mucyumba kirimo ibikoresho byifashishwa, bakura umurwayi amenyo.

Uko amenyo y'umuntu agaragara iyo umuntu adakorera neza isuku bityo bimuviramo uburwayi butandukanye bwo mu kanwa ndetse akaba yatakaza amenyo ye.

Icyumba gisa neza, gifite isuku, cyuzuyemo utubati ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gihe umurwayi ari guhabwa serivise yo gukurwa amenyo na muganga.

Umukobwa n'umusore barimo baseka bafashe iminwa yabo bari kugaragaza mu kanwa habo, bashaka kwerekana ko badafite uburwayi bwo mu kanwa bigaragarira ku menyo yabo asa neza kuko baba bayakoreye isuku.

Umugabo wishimye umeze neza, arimo guseka rwose ubona ko nta kibazo afite bitewe no kwita ku isuku y'amenyo akoresha umuti wabugenewe, asukura mu kanwa he bimufasha guseka uko abishaka kubera ko atagira impumuro mbi mu kanwa iterwa no kudakorera isuku amenyo.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu hamwe barishimye bari kwifotoza bigaragara ko bishimiye igikorwa bamaze gukora, buri wese ari kugaragaza akamwenyu ku munwa we.

Umusaza n'umugore biyicariye mu cyumba barimo baraganira ku bintu bigiye bitandukanye, ubona ko umusaza ari kugerageza gusobanurira umukobwa ibintu byinshi bitandukanye muri telefone.

Umusaza ukuze aricaye, bari kumufasha gukora isuku y'umubiri kuko ni ingenzi cyane kwita ku isuku y'umubiri mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi ufite ubumuga bwo kutagenda, yicaye mu kagare kamufasha kugenda, ari gufashwa n'umuganga gutembera mu bice bitandukanye

Umubyeyi wicaye wenyine ku ntebe, imbere ye hari ameza ateretseho agacupa n'imiti imennye kuri ayo meza, afite akandi gacupa, ari gusuka imiti mu kiganza cye

Gufata neza amafunguro uko bikwiye ubwo ni ukuvuga: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'imbuto ndetse umuntu akibuka no gukorera isuka ibyo agiye kurya, no kunywa amazi asukuye, ni kimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umugabo uhagaze afashe ku mpumbo ebyiri, hari umugore kuruhande uri kugenda asuzuma uko atera intambwe kugira ngo abashe kumenya ikibazo afite.

Umusaza uri kumwe n'umuganga, wagiye kwisuzumisha uko ubuzima bwe buhagaze, umuganga ari kwifashisha icyuma gipima uko umuvuduko w'amaraso w'umuntu uhagaze.

Umusaza n'umukecuru bibereye mu rugo, ubona ko umusaza ari kugerageza kwita ku mukecuru amufasha gufata imiti nk'uko yabyandikiwe na muganga.

Ababyeyi bahuriye mu gikorwa rusange cyo gukora sisiporo zitandukanye bagamije kurwanya ingaruka ziterwa n'umubyibuho ukabije mu gihe umuntu adakoze siporo n'izindi ndwara zishobora gufata umuntu udakora siporo.

Abantu babiri bahagaze ubona ko umusaza uri imbere aherekejwe n'umugore wambaye imyenda y'akazi, ari kumufasha gutambuka, ubona ko musaza ari kwifashisha ibyuma kugira ngo atere intambwe.

Gufata neza amafunguro uko bisabwa, ubwo ni ukuvuga ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri. Ukibuka no gufata imbuto ku mafunguro, ni bimwe mu bituma umuntu agira ubudahangarwa ntapfe kurwara byoroshye.

Mu gihe umurwayi wese yitaweho neza uko bikwiye akerekwa urukundo bimufasha kugira icyizere bikamuha imbaraga zo gukira vuba ndetse iyo yitaweho agahabwa indyo yuzuye arongera agasubirana ubuzima bwiza.

Umusaza yicaye yambaye agapfukamunwa, ari kumwe n'umugore wambaye agapfukamunwa yifashishije icyuma cyabugenewe mu kumva uburyo ki umutima w'umuntu utera, umugore ari gusuzuma arebe uko umutima w'umusaza uri gutera.

Umukecuru uri muri siporo mu cyumba giteguye neza, yifashishije ibikoresho bimufasha gukora siporo neza, kuko siporo ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umukecuru wicaye ku ntebe, ikirahuri cye mu ntoki, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ufite n'igikoresho bifashisha bapima uko umutima w'umuntu uri gutera, ari guha umukecuru imiti.

Abantu babiri bicaye hagati yabo hari ameza ariho umukino witwa igisoro ubona ko banezerewe n'umukino, umusaza ari guseka cyane biri kumufasha kuruhuka.

Ababyeyi bakenyeye, bambaye imyenda ya Kinyarwanda, bafite udukoni, ubona ko bakurikiwe n'abandi bantu, biragaragara ko bagiye mu bukwe...

Umuryango ugira ibyishimo iyo buri wese yitaye kuri undi ndetse bafite ubuzima bwiza, icyo gihe umuryango ubana mu mahoro ndetse n'iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu bikiyongera.

Umusaza uri mu kagare k'ababana n'ubumuga arishimye ari kumwe n'umukobwa urimo aramufasha gutembera ahantu hatandukanye ubona ko bari kuganira bishimye.

Abantu bateraniye ahantu bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gufasha ababana n'ubumuga bafite bimwe mu bikoresho byifashishwa n'ababana n'ubumuga ndetse biragaragara ko ari inkunga yatanzwe n'ikigo mpuzamahanga cyitwa unicef nkuko ibirango byabo bibigaragaza.

Umurwayi uhagaze ubona ko yambaye ibirenge yishingikirije ibyuma byabugenewe bimufasha guhagarara, ubona ko ari imbere y'igitanda cy'abarwayi barwariye mu bitaro.

Umusaza n'umubyeyi ubona ko bicaye, umubyeyi ari kugerageza gufasha umusaza gufata imiti, umusaza wiyicariye iwe imbere ye hakaba hateretse imashini bigaragara ko ari mu kazi akoresheje ikoranabuhanga.

Abantu bicaye mu busitani, bitegereza umubyeyi umwe, uri kuboha agatebo ke, bareba uburyo abohamo neza agatebo, hagati muri bo hari umuzungu wanejejwe n'ibyo uyu mubyeyi ari gukora, uteruye mwana.

Umusaza n'umuganga bari kumwe bigaragara ko umukobwa ari gufasha umusaza gufata imiti ye, umusaza afite ikirahuri kirimo amazi agiye kunywesha imiti.

Umuryango urishimye biragaragara ko buri wese yishimiye kuba ari kumwe n'undi, bari kugaragaza ibyishimo baseka bose banezerewe bari hamwe nk'umuryango.

Umusaza uri muri siporo yumva indirimbo zitandukanye mu rwego rwo kwirinda kunanirwa, ari gukora siporo zimufasha gukomeza imikaya y'umubiri we aterura ibyuma byabugenewe.

Umuryango ni yo nkingi y'iteramberer ry'igihugu, binyuze mu burere buhabwa abenegihugu ndetse n'abana b'igihugu, ababyeyi ni inkingi ya mwamba mu guteza imbere imyitwarire myiza no guha indangagaciro ababakomokaho, bityo bakigirira agaciro ndetse bakagirira n'igihugu.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe bari ahantu mu cyumba ubona ko cyuzuyemo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza. Ubona ko imbere yabo hari inyandiko nyinshi zitandukanye bari kugerageza gusoma ibyanditse muri izo nyandiko.

Umukecuru ubona ko mu kiganza cye yariye ikirahuri cy'amazi, ubona ko yazamuye akaboko bigaragara ko ari gufata imiti yandikiwe na muganga, ni ngombwa gukurikiza amabwiriza duhabwa n'abaganga, mu rwego rwo gukira uburwayi tuba dufite.

Umubyeyi wishimye uri ahantutu hasa neza, ufite isahane iriho ifunguro ryuzuye, ni ukuvuga ibitera imbaraga, ibrinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, ubona ko anezerewe no kuba agiye gufata iryo funguro.

Umubyeyi wicaye ari kuganira n'umwana we bishimye cyane, umwana afashe ikiganza cy'umubyeyi amuteze amatwi kumpanuro ari kumuha.

Umugore n'umugabo baricaye ku meza bigaragara ko bari gufata amafunguro, umugore arimo gusukira umugabo ibyo kunywa mu kirahuri bigaragara ko ari umuryango wishimye.

Iyo umuryango wishimye, bityo ukaganira ku iterambere ry'urugo, bagasangirira hamwe, bityo bakajya inama zateza imbere umuryango, haba hari ibibazo bagafatanya kubikemura binyuze mu biganiro by'amahoro.

Abantu babiri umugore n'umugabo ubona ko bishimye bari guseka bari gukora siporo ubona ko ari ibintu bishimiye, ni ingenzi cyane siporo buzima bw'umuntu siporro idufasha kugira ubudahangarwa mu gihe duhuye n'indwara runaka umubiri ukabasha kuyirwanya.

Ababyeyi batatu bakora akazi k'ububoshyi, baricaye bari mu kazi kabo, umwe muri bo afite terefone, ari kubereka bimwe mu biri kugenda bivugwa hirya no hino.

Dukenera inama zizewe ndetse n'ubujyanama dukura ku baganga ku byerekeranye n'ibibazo duhura na byo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu rwego rwo kukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umugore n'umugabo ubona ko bafatanye akaboko, Umugabo n'umugore bose barimo baraseka ubona ko bameze neza nta kibazo bafite ni byiza ko dukwiye kubana neza mu rwego rwo kwirinda amakimbirane n'ibindi bibazo byose bishobora guterwa no kutumvikana mu muryango.

Abantu benshi batandukanye baba abazungu, abirabura bari mu cyumba cyabereyemo inama, baricaye abandi barahagaze, buri wese afite ikadere mu ntoki ziwe.

Ikigo nyafurika gishinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara ndetse no gukora ubushakashatsi ku buziranenge bw'imiti ihabwa abaturage muri Afurika, cyitwa de isiti Afurika helifu risaci jani.

Inkingo ziterwa abantu, igihe hagaragaye icyorezo mu gihugu hagamijwe kugwanya ubukana bw'icyo cyorezo ndetse no kugabanya umubare munini ushobora guterwa n'imfu z'abantu banduye icyo cyorezo.

Abantu bicaye mu cyumba ubona ko bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, umugabo umwe ahagaze imbere ya bo ari gukoresha isakazamashusho akabereka ibyari kubaganiriza.

Mu gihe hagaragaye icyorezo mu baturage, hakaboneka umuti w'icyo cyorezo, abaturage bashishikarizwa gufata urukingo rw'icyo cyorezo kugira ngo kigabanye ubukana.

Ni kenshi hagenda hatangwa ubukangurambaga ku ndwara zigenda zigaragara mu baturage, hagatangwa ibimenyetso bigaragaza izo ndwara ndetse n'uburyoki abantu bashobora kwirinda izo ndwara, ndetse ugize ikibazo akagana ikigo nderabuzima kikamuha amakuru yizewe ku ndwara zitandukanye.

B.A.D inama, amahugurwa yigisha ibigendanye n'ubuzima buzira umuze, igirwamo ibitera indwara zimwe na zimwe, ingaruka z'izo ndwara, uburyo ki twakirinda izo ndwara n'ibindi.

Gukora siporo ni kimwe mu bifasha umuntu kugira ubudahangarwa bw'umubiri ndetse bikamurinda kurwara indwara zimwe na zimwe ziterwa n'isukari nyinshi mu mubiri, twavuga nka diyabete, siporo ni ingenzi cyane kuyikora.

Ibitaro byo mu Rwanda, bimaze gushyirwamo serivise zifasha abarwayi ba kanseri igihe gitandukanye, ni ngombwa ko mu gihe ufite ikibazo ugana ibitaro bikwegereye bakagufasha, mu rwego rwo kwirinda impfu ziterwa na kanseri.

Urubyiruko rutandukanye rwaturutse hirya no hino, ruri mu muhanda, bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, cy'umunsi mu Rwanda wahariwe kurwanya sida, bashishikariza urubyiruko kwipimisha agakoko ka virusi itera sida.

Umugore mwiza wishimye ufite mikoro uhagaze imbere y'abandi ubona ko yishimiye kuba ari kuganiriza abamuteze amatwi bamuri imbere.

Abantu bicaye mu nzego zitandukanye, ubona ko imbere hari abayoboye ibiganiro biri kuganirwaho, abayobozi bicaye mu myanya y'imbere n'abitabiriye inama bicaye inyuma bari gukurikira ibyo bagezwaho n'abayobozi.

Uturango tugaragaza ikimenyetso cyo kurwanya kanseri mu gihugu hose, ni ngombwa ko dukora ubukangurambaga bugamije kurwanya indwara zose z'ibyorezo zibasirara ikiremwa muntu.

Abantu basa neza bateraniye mu cyumba gikeye bicaye ubona ko bishimye bishimiye ibyo bari kuganirizwa.

Abagore babiri bambaye neza b'ababikira barimo gusuhuza umugabo ubarimo hagati bigaragara ko bishimiye, ibyo bari kuganira ibyo aribyo byose.

Umuntu iyo arwaye agana ibitaro, bikamukorera isuzuma, bakamenya bwoko bw'indwara arwaye, bityo bikabafasha, kumuha imiti igendanye n'uburwayi afite.

Virusi itera sida ni agakoko kandura mu gihe umuntu akoranye imibonano mpuzabitsina n'urwaye ako gakoko ka virusitera sida akabikora atikingiye, icyo gihe na we yandura aka gakoko ka virusi itera sida.

Abantu bari mu kazi kabo ka buri munsi kagiye gatandukanye. Buri wese ari mu kazi gatandukanye n'aka mugenzi we. Aba mbere bari mu kazi ko kwerekana umushinga, aba kabiri bari kuvura mu bikorwa by'ubuvuzi, abandi bari mu bwubatsi, abandi bari gukora mu biro, abandi bari mu bikorwa by'ubuhinzi.

Icyumba kinini cyakiriye abantu benshi baje mu nama bambaye neza, bigaragara ko hari ingingo nyamukuru yabahurije aho bagiye kwigaho.

mbere yuko imiti cyangwa se inkingo bihabwa abarwayi hari abashinzwe kubanza kugenzura niba iyo miti n'izo ngingo by'ujuje ubuziranenge, hagasuzumwa niba nta ngaruka bizagira ku murwayi wahawe iyo miti cyangwa watewe urwo rukingo.

Umugore useka neza, ufite igikoresho cyifashishwa mu gusakaza amajwi, yicaye mu ntebe, arimo kuganiriza urubyiruko uko bakwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Hirya no hino higishwa uburyo bukwiye gukoreshwa mu rwego rwo kwirinda agakoko gatera sida haba mu rubyiruko ndetse n'abakuze, bigishwa gukoresha agakingirizo mu gihe kwifata byabananiye.

Izuba ryavuye urabona ko ahantu hasa neza cyane, hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse hari n'akugamiro, ubona ko ari inzu igezweho yubatse neza kandi ikeye, inzu yo mu bwoko bw'inzu zigeretse.

Ibikoresho byiza kandi bigezweho bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku buzima bw'umurwayi, biri mu cyumba gifite umutekano.

Icyumba cyiza kinini, kirimo ibikoresho byose bishobora gufasha umurwayi, kirimo ibitanda byiza kandi bihagije, kikabamo n'inzitiramibu zifashishwa mu kurwanya agakoko gatera Malariya.

Ibiro bigezweho birimo intebe, imashini, ameza, utubati harasukuye hari ibikoresho byifashishwa mu biro, umuntu ari gukora akazi gatandukanye, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Bimwe mu byuma bigezweho byifashishwa mu kugaragaza uburwayi buba buri imbere mu mubiri w'umuntu, bikunze kuba biri ku bitaro bikuru by'uturere hirya no hino mu gihugu.

Abakora mu nzego z'ubuzima, bari kuganira ku bikorwa bigiye bitandukanye, bakora buri munsi mu kwita ku barwayi, bambaye imyenda ibafasha gukora akazi kabo, birinda ibyago bashobora guhurira nabyo mu kazi kabo.

Inzu ikorerwamo n'inzego zishinzwe gufasha abana bahohotewe cyangwa se bakore ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iherereye mu murenge wa Remera, Rukomo nk' uko bigaragara.

Mu gihe umuntu agize ikibazo cyo kutabona neza cyangwa se akagira ubumuga bwo kutabona, ni ngombwa ko agana ibitaro bikamuha insimburangingo zimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Icyumba cyakira indembe zigeze kwa muganga zikeneye kwitabwaho by'umwihariko n'abaganga zifite uburwayi bukomeye cyane.

Usanga ibitaro biba ari binini bigizwe n'inyubako ifite ibyumba bigiye bitandukanye kandi ifite ibikoresho bihagije, byifashishwa mu kwita ku barwayi, mu gihe baje bagana ivuriro.

Umwana muto ari mu byuma bishinzwe kumwitaho, ari kumwe n'umuganga uri gukurikirana uko ubuzima bwe buhagaze, bigaragara ko uyu muganga ari gukora inshingano ze zo kurokora ubuzima bw'uyu mwana, uri mu byuma biri kumwitaho.

Bimwe mu byuma byifashishwa mu gusuzuma ibibazo by'ingingo, biba bitagaragarira inyuma ku maso, umurwayi anyuzwa mu cyuma kugira ngo hagaragazwe uburyo ki ingingo ze zatandukanye cyangwa se ubundi burwayi bwose bwihishe mu mubiri we.

Imyidagaduro ni kimwe mu bifasha abantu gukomeza kugira ubuzima bwiza, biciye mu gusabana, mu kwishima, bidagadura, bakoreramo siporo, siporo zibafasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Icyumba kinini kiza, gisa neza kirimo ibitanda ubona ko ibikoresho birimo ari ahantu hakirirwa abarwayi baje kwa muganga mu gihe bari kwitabwaho n'umuganga.

Kwa muganga haba hari inzu ishinzwe gutangirwamo ibizamini biba byafashe abarwayi kugira ngo hamenyekane neza uburwayi umurwayi aba afite.

Ibitaro bigiye bigera ahantu hihariye hagenewe gucumbikira abarwayi, bakeneye kwitabwaho cyane cyane n'abaganga umunsi ku munsi, mu gihe uburwayi bwabo bukomeye.

Icyumba kini giteguye neza gifite isuku, irimo intebe zo kwakira abantu batandukanye, harimo abicaye kuri izo ntebe bategereje guhabwa serivisi.

Kuri buri bitaro haba hari icyumba cyihariye cyagenewe kwakira abarwayi, buri cyumba kiba gifite ibikoresho bitandukanye bitewe n'abarwayi biteganywa ko bazakirirwa muri icyo cyumba.

Ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa igihe umuntu arwaye, nk'iyo uburwayi bwe butagaragarira imbere, hari imashini zifashishwa mu kwerekana uburyo ki uburwayi bwe buri kugenda bukura mu mubiri cyangwa se ibindi bibazo byose biri mu ngingo z'imbere.

Ububiko bw'ibitaro, bubikwamo ibisubizo biba byaturutse mu bizami baba bafashe mu barwayi batandukanye, bigenda bishyirwa ahantu hatandukanye, hakurikijwe nimero y'umurwayi.

Amafarumasi hirya no hino mu gihugu, agenda afasha abarwayi mu kubona imiti ku buryo bworoshye ndetse ikagabanya imfu ziterwa no kuburira imiti ku gihe.

Abaturage batandukanye bicaye ku rubaraza, ubona ko bari ahantu hubatse neza, bagiye gushakayo serivise z'ubuzima, urabona ko bacitse intege bakeneye guhura na muganga.

Iyo umuntu arwaye ajyanwa mu bitaro, akitabwaho n'abaganga bakifashisha ibyuma byabugenewe mu gusuzuma ubuzima bwe, hamara kumenyekana indwara arwaye bakamuha imiti yamufasha kurwanya ubwo burwayi.

Umugangakazi ari mu kazi ke yambaye umwambaro w'akazi ari kwita ku murwayi yifashishije ibyiyumviro by'umubiri w'umurwayi.

Bimwe mu byuma byifashishwa mu kugorora umubiri w'umuntu, bikunze kugaragara mu nzu z'imyidagaduro zikunze gukorerwamo ibikorwa bya siporo.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima ndetse n'imibereho myiza y'abaturage hirya no hino hagiye hashyirwaho ibigo nderabuzima umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima agana bakamufasha, bakamubonera imiti imufasha kurwanya ubwo burwayi aba yahuye nabwo.

Umugabo uryamye ku gatanda ari kwitabwaho n'umuganga yamushyizemo ipombo imufasha gusohora amaraso mu mubiri we, ni byiza ko abantu tugira umutima wo gutanga amaraso kugira ngo dufashe imbabare.

Icyumba cyiza kinini gifite ubuziranenge n'ububiko buhagije bwo kubika amaraso aba yatanzwe n'abantu, akabikwa hakurikije gurupe z'amaraso . Amaraso azifashishwa mu gufasha abarwayi.

Buri bitaro byose bigira inzu y'isuzumiro, aho umurwayi ahurira na muganga bonyine, umurwayi akabwira umuganga uko yiyumva, umuganga akamufata ibizamini, bityo bikabasha kwerekana uburwayi umurwayi afite, ndetse n'imiti akwiye guhabwa kugira ngo ace intege ubwo burwayi.

Imwe mu nzu zubakwa hirya no hino hagamijwe kwita ku buzima bw'abantu, hagashyirwamo ibikoresho bizifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye, z'abarwayi bagenda babagana, bigafasha abaturage kugira ubuzima bwiza ndetse no kugabanywa k'umubare w'abantu bapfa bishwe n'indwara zitandukanye.

Buri bitaro cyangwa se buri vuriro, rigira inzu yihariye yagenewe mu gufasha ababyeyi mu gihe bashaka kubyara, iyo nzu iba itandukanye n'izindi nzu zakira abarwayi bagana ibyo bitaro.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'ubushakashatsi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, haba indwara ndetse n'ibindi bintu bisaba gukorerwa ubushakashatsi, bateranye, bari gukorera mu matsinda.

Hari inyubako yabugenewe ikorerwamo ubushakashatsi, ikoreramo abahanga ku bigendanye n'indwara za kanseri zinyuranye mu gihugu cy'u Rwanda, hakigwa ku ngamba zikwiye gufatwa mu rwego rwo kurwanya kanseri.

Inzu zimwe na zimwe zikorerwamo ibikorwa ngororamubiri ziba zifite ibikoresho bigiye bitandukanye, buri wese agakoresha igikoresho bitewe n'ubushobozi bw'umubiri we, harimo ibyo baterura, ibyo bakurura ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu yubatse ahantu hameze neza, ifite ubusitani bumeze neza, irakeye, bigaragara ko ari inzu igezweho, ni inzu igeretse inshuro imwe.

Iyo umurwayi afite intege nke, ageze kwa muganga bamwereka aho aba aruhukiye, hatuma agubwa neza, bityo abaganga bikaborohera kwita ku murwayi ubari iruhande.

Umugore wambaye imyenda y'akazi, yikwije neza, ubona ko yambaye ibimurinda gukomerekera mu kazi ke, biragaragara ko, ari gushyira imyanda ahabugenewe.

Umurwayi uri mu bitaro ubona ko arwariye hamwe n'abandi barwayi, ari gusuzumwa n'umuganga amubaza uko yiyumva mu rwego rwo kugira ngo abashe kumuha imiti iri bumufashe gukira ubwo burwayi.

Abagabo babiri bicaye, umwe ubona ko yambaye ijire y'akazi ya RBC ari kumwe n'undi mugabo wambaye baje, umugabo bamushyizeho igipimo kigaragaza uko umutima we uri gutera.

Ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro haba ari ibyumba byita ku barwayi batandukanye, ni ukuvuga ko buri murwayi wese aba afite aho akwiye kwakirirwa, uhasanga imodoka z'imbangukiragutabara zifashishwa mu kugeza indembe kwa muganga.

Inyubako y'imyidagaduriro ikunze gukorerwamo siporo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri bitewe n'imbaraga za muntu, dore ko siporo ari kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu mu kumurinda indwara zitandukanye.

Buri bitaro byose bigira aho bakirira abarwayi baje babagana, bikagira n'ikigaragaza serivise batanga bitewe n'indwara abarwayi barwaye.

Ahantu honyine ushobora gukura amakuru yizewe ku bigendanye n'ubuzima ni ku bigo by'ubuzima biba byarashyizweho hirya no hino, aho hantu ushobora kujyayo ugasangayo inzobere ku bigendanye n'ubuzima, bakakugira inama y'uko wakwitwara mu rwego rwo kugira ubuzima buzira umuze.

Ibigo nderabuzima ya rwerere ryifashishwa n'abaturage mu kubagezaho serivisi zitandukanye z'ubuzima haba ku bapima indwara zitandukanye, ndetse no gutanga imiti ku burwayi buba bwagaragaye.

Icyumba cyiza gisa neza, gifite isuku kirimo ibitanda ubona ko ari icyumba cyakirirwamo abarwayi baje bagana ibi ibitaro, mu gihe bari kwitabwaho n'abaganga.

Imwe mu ndwara zitagaragara zishobora kugaragara mu gihe twagiye ku bitaro, bakadukorera isuzuma bifashishije ibyuma byabugenewe, bityo tukamenya indwara turwaye n'uburyo twazirindamo.

Umubyeyi uteruye mwana wagiye kumusuzumisha ku muganga, umuganga ari kwita ku mwana areba uko ubuzima bwe buhagaze.

Buri bitaro byose bigira icyumba cyihariye kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kugaragaza ibisubizo biba byavuye mu bizamini biba byakorewe abarwayi.

Umurwayi yakiriwe n'umuganga, umuganga yambaye ibikoresho by'ibanze bimufasha kwita ku barwayi ari kumutera urushinge mu rwego rwo kumuvura uburwayi afite.

Icyumba giteguye neza, ubona ko cyateguriwe kwakira abarwayi, irimo umuganga ushinzwe kwita kuri abo barwayi bakirwariyemo, ubona ko buri murwayi wese, afite aho ari kubarizwa.

icyumba kiza ubonna ko gifite isuku giteye neza haba uburyo ki bashyize intebe mu byiciro, biteganywa ko zicarwaho n'abasaza bakorera inama muri iki cyumba.

Icyumba giteye igitanda gishyirwaho abarwayi mu gihe bari kwitabwaho na muganga, hakaba hari itara hejuru ryifashishwa mu gutanga urumuri mu gihe umuganga agiye kubaga umurwayi bityo bigatuma muganga akora ibyo abona neza.

Biragaragara ko ari inyubako ikimara kuzu kuzura, ntago hashize igihe kinini ikoreshwa, inyubako yifashishwa mu kwakira abarwayi, mu rwego rwo kugabanya impfu ziterwa n'indwara zimwe na zimwe bitewe no kubura amavuriro ahagije.

Ahantu heza yateguye neza, hasa neza, hateye intebe zigiye zirebana bigaragara ko ari ahantu hakira abantu batandukanye, baje kwaka serivisi mu buryo bunyuranye.

Icyumba kinini, gisa neza, kigizwe n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi, bashaka kumenya indwara y'umurwayi uba wakishijwe muri ibi byuma.

Icyumba cyiza kigezweho kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kwita ku barwayi bafite uburwayi butandukanye, bisaba ko uburwayi bwabo bugaragazwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umuntu wese wumva arwaye, ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye agahura n'abaganga babyigiye, bakamugira inama y'icyo yakora ndetse bakamuha n'imiti imufasha kurwanya ubwo burwayi.

Ni ngombwa ko buri kigo cyose cyakira abarwayi kiba gifite ibikoresho by'ibanze, aho umurwayi ashobora kuruhukira ndetse n'ibyuma byifashishwa mu gupima ubwoko bw'indwara umurwayi afite.

Foromasi ikigo gitanga ubuvuzi cy'umuntu wikorera ifasha abarwayi bagiye bakigana, kikabaha imiti igitandukanye bitewe n'uburwayi bafite bakagira ubuzima bwiza.

Igikorwa cyo gutanga amaraso, ni igikorwa cy'urukundo gikorwa n'umuntu ku bushake bwe, aho yiyemeza gutanga amaraso kugira ngo ayo maraso, azifashishwe mu gufasha imbabare ziyakeneye.

Inzu iteguye neza, isa neza iratatse, irimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, harimo intebe ziteye mu buryo bugiye butatanye hakabamo ibikinisho bisa neza cyane bigaragara ko hakeye hasukuye.

Abantu bahagaze, abandi bicaye ubona ko barikwifotoza. Harimo abazungu, abirabura. Bari kwifotoreza ku cyapa cy'ibitaro bya Butaro biherereye mu Ntara y'Amajyaruguru, mu Karere ka Burera, mu Gihugu cy'u Rwanda.

Uruzitiro rw'ibitaro bya Nyanza rusa n'ubururu, handitseho inyuguti ebyiri za H H ziri mu ibara ry'umweru, hari icyapa kigaragaza ko ibitaro bya Nyanza bikorana n'ikigo cy'igihugu cyitwa Isange gifasha abahuye n'ihohoterwa.

Hari ibigo bimwe na bimwe bishinzwe ubuzima haba ibya leta ndetse n'ibyikorera byose umuntu ashobora kugana bikamuha serivisi y'ubuzima mu gihe afite ikibazo ku bigendanye n'ubuzima buzira umuze.

Ibitaro bimwe na bimwe byo mu gihugu usanga bifite ibikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi, hakurikije ubushobozi ibitaro bifite ndetse n'indwara bivura.

Inyubako nziza kandi ikeye iriho ikirango cya Irikada Africa, inyubako izajya ikorerwamo ibikorwa bitandukanye imaze kubakwa ahantu heza, ikaba ifite isuku.

Icyumba yubatse neza ku buryo bugezweho gifite isuku itekanye kibitswemo imiti mu rwego rwo kugira ngo habungwabungwe ubuziranenge bw'imiti izahabwa abarwayi igomba kwitabwaho ntihagire ikiyangiza.

Icyuma cyifashishwa mu gikorwa cyo kuvura abarwayi, bagaragaza ikibazo cy'ingingo z'umuntu, bakoresheje ikoranabuhanga mu gihe

Ahantu heza hagaragara neza, hafite ubusitani bwakurura uwo ari we wese, ubona ko hakorerwa isuku, ubusitani bwaho bukaba bwitaweho cyane, harakeye, harasa neza.

Umurwayi aryamye ku gitanda umuganga ari kumwitaho. Bigaragara ko uyu muganga agiye kumufata ibizamini kugira ngo amenye ko umurwayi ahagaze.

Icyumba kinini kiza kandi gisukuye gifite ibikoresho bihagije byujuje ubuziranenge mu kwita ku buzima bwabarwayi barwariye mu bitaro.

Umuganga uri mu biro bye, ubona ko yicaye imbere ye, afite imashini ari gukora akazi, areba ibizamini by'abarwayi ndetse yandika n'amakuru y'abarwayi mu ikoranabuhanga.

Inzu ikorerwamo igikorwa cy'uburezi yakira abana bakiri batoya baza kwigira muri iyi nzu, bakahigira ibintu bitandukanye bakakura ubumenyi buzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba giteguye neza gifite isuku ndetse n'ubuziranenge, kibika imiti ihabwa abarwayi igifite ubuziranenge uko bikwiye kugira ngo imiti itangwa ibe yujuje ubuziranenge, idateza ibindi byago abayifashe.

Icyumba kinini, kirimo utubati tubika imiti neza, mu rwego rwo kubungabunga ubuziranenge bw'imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Hari umurwayi uri mu bitaro, bigaragara ko aryamye ku gitanda cy'abarwayi, iruhande rwe hakaba hari imashini, yifashishwa mu gihe umuganga aje gukora isuzuma ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba kirasa neza, kirateguye, kirimo utubati tugiye dufunze neza, bigaragara ko habitswemo ibintu by'agaciro, amatara arimo araka, hagaragara neza.

Inama yateranye abayoboye inama bicaye imbere y'abitabiriye inama, bigaragara ko abitabiriye inama bari kwandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama, bafite amazi bari kugenda banywa.

Biragaragara ko usunikwa mu kagare afite ikibazo cy'ingingo z'amaguru, ari gufashwa n'umwana muto amusunika mu kagare, kugira ngo amugeze aho abandi bateraniye.

Icyumba kirwariyemo abarwayi batandukanye, bigaragara ko abaganga bari gusimburana mu kwita kuri aba barwayi barwariye hano, buri murwayi wese ari kwitabwaho uko bikwiye.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi ariko ifata icyuma cyifashishwa mu kumenya umuvuduko umutima uri guteraho mu rwego rwo kumenya uburwayi cyangwa se ikindi kibazo umurwayi yaba afite mu mubiri we.

Umugabo uhagaze ku ruzitiro, bigaragara ko ahantu ahagaze hatemerewe kunyurwa n'uwo ari we wese, bitewe n'icyapa gihari ndetse hakaba hari n'ushinzwe umutekano waho.

Icyumba giteguye neza, kirimo bikoresho byifashishwa kwa muganga bari gukorera isuzuma umurwayi, kugira ngo hamenyekane uburwayi afite, bityo bibafashe kumenya imiti umurwayi akwiye gufata, kugira ngo akire indwara.

Inzu nziza ikeye igaragara neza ifite ubusitani, imbere yayo hari icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa muri iyo nyubako, igaragaza ko ari inzu ishinzwe gutanga ubufasha bw'ibanze ku muntu ufite ikibazo cy'ubuzima.

Abantu benshi bateraniye ahantu hari kubera amarushanwa y'imikino igiye itandukanye, abana baje ku bwinshi bareba uko abandi barushanwa mu mikino igiye itandukanye.

Ni ngombwa ko umuntu afata indyo yuzuye ikubiyemo ibitera imbaraga, ibirinda ndwara, ibyubaka umubiri ndetse n'imbuto mu rwego rwo kugira ubuzima buzira umuze ndetse bikamurinda kurwaragurika.

Aricaye yifatishije agatambaro ku ivi rye bigaragaza ko afite ikibazo mu kuguru akwiye kwitabwaho n'abaganga bakamufasha gukira imvune.

Umugabo uryamye ubona ko ari kugitanta hari undi uri kumufasha kumugororera ingingo amukora ku mubiri mu rwego rwo kunanura imitsi ye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Igihe umuntu yumva atameze neza ikintu gishobora kumufasha siporo yaza mu bintu by'ibanze, kugorora umubiri ukirinda gutekereza cyane mu gihe urimo ukora siporo biragufasha cyane ndetse ukamererwa neza ukagira ubuzima buzira umuze.

Umuntu uhagaze, ubona ko yabumbuye umunwa we, ari kunywa amazi yambaye isengeri, bigaragara ko yari ari muri siporo, ni ngombwa ko mu gihe umuntu ari gukora siporo, akwiye kunywa amazi menshi ahagije, kubera ko umubiri uba watakaje amazi menshi.

Bimwe mu bikoresho by'ibanze umuganga yifashisha mu gihe agiye kwita ku murwayi ufite igikomere. Twavuga umukasi, uturindantoki, agapfukamunwa. Byose bimurinda kwandura indwara zitandukanye ashobora gukura mu kwita ku murwayi.

Bimwe mubyo ukwiye gufata kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse n'uruhu rusa neza. Ni ngombwa kwita kuri siporo igihe icyaricyo cyose ndetse na nyuma ya siporo , ugafata ibiryo byujuje intungamubiri, ugufata n'imbuto mu rwego rwo gukomeza kubaka umubiri ufite ubuzima ndetse n'ubudahangarwa.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye kirimo imbuto zigiye zitandukanye umuntu akwiye gukoresha buzima bwe bwa buri munsi, akagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Muganga ari gufasha umurwayi gukora siporo agamije kumufasha kunanura ingingo ze, mu rwego rwo kwirinda kurwara imitsi ndetse no kurambura ingingo z'umubiri we.

Byibuza jya unywa litiro n'igice ku munsi y'amazi meza asukuye kuko ni kimwe mu bizagufasha kuguma umeze neza, nta kibazo, nta burwayi bwa hato na hato ugira, buterwa no kudafata amazi asukuye.

Bimwe mu bifasha abantu gukira indwara zitandukanye z'ibyorezo twavuga nko gukora siporo z'umubiri zitandukanye, gukaraba mu biganda kenshi gashoboka mu gihe uvuye ku bwiherero mbere yo kurya no mu gihe urimo gutegura amafunguro ndetse no kuruhuka neza bihagije.

Umugabo afite icupa ari kunywa amazi kuko amazi ni ubuzima, amazi adufasha kugira ubuzima bwiza bityo tugakura tukagira ubwenge tukabaho.

Urupapuro rw'isuku rwifashishwa mu bwiherero, ni ngombwa ko buri muntu wese agirira isuku ubwiherero bwe mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'isuku idahagije cyane cyane mu gihe umuntu akoresha ubwiherero rusange.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa byitabwa ku murwayi uje ugana ibitaro, mu gihe afite ikibazo cy'amenyo, azanwa muri iki cyumba, agahabwa serivise imufasha gukira ubwo burwayi.

Ubwoko bwinshi bw'imbuto umuntu akwiye gufata mu rwego rwo gukomeza kwita ku buzima bwe amaronji, avoka, amatunda, inanasi, imineke izo zose ni zimwe mu mbuto zagufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bumaze gutera imbere, ku rwego rushimishije, ku buryo usanga ahantu henshi hari ibikoresho byifashishwa bigezweho, mu gupima uburwayi bw'umuntu, ndetse no kumenya uburyo ki umuntu yanduyemo, ndetse n'icyo ashobora gukora kugira ngo akire ubwo burwayi, hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga.

Itsinda ry'abaganga bicaye mu cyumba, bagaragaza ubushakashatsi bw'indwara ku murwayi, hanigwa uburyo ki umurwayi ufite iyo ndwara akwiye kwitabwaho.

Umuntu afite ikaramu n'urupapuro arimo yandika, apima uburemere bw'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo mu gihe umuntu ashaka gukomeza imikaya y'umubiri we.

Ibintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza harimo amazi asukuye afite ubuziranenge, gukoresha imbuto ku mafunguro ye, ndetse no gukora siporo. Ibyo byose ni ibifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri ku mazi abona ko anezerewe, yambaye imyenda yabugenewe mu gihe umuntu ari ku mazi. Yazamuye amaboko ye hejuru arimo yinanura.

Uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoramo siporo bikamufasha kubaka ubudahangarwa bw'umubiri we, bityo ntapfe kurwara indwara zibonetse izo arizo zose, agahora afite ubuzima bwiza.

umurwayi yicaye ku gatebe igikomere muganga ari kumwitaho ari kumufasha gupfuka icyo gikomere mu rwego rwo kwirinda ko hajyamo imyanda igatera ubundi burwayi

Ni ngombwa kunywa amazi asukuye kandi menshi ahagije mu mubiri mu gihe umuntu amaze gukora siporo, kuko mu gikorwa cyo gukora siporo umuntu atakaza amazi ndetse n'isukari. Ni ngombwa rero kwita ku isuku y'amazi ndetse ugafata amazi ahagije mu gihe umaze gukora siporo.

Umukobwa wicaye hasi yarambuye akaguru ke arimo gukora siporo ngororamubiri kuko siporo ni ubuzima idufasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Umuntu arahagaze afite imisatsi abagore bakunze gushyira ku mutwe, yazamuye amaboko bigaragara ko ananiwe, ari kuyazamura mu rwego rwo kuruhura umubiri we.

Umugabo ubona ko ahagaze, mu ntoki ze afite igisa nk'umupira ukunze gukoreshwa mu mikino ya rugubi, yambaye imyenda imugaragaza ko ari umuganga ,ndetse afite n'igikoresho cyifashishwa mu gupima ,gutera k'umutima w'umurwayi.

Abantu batandukanye, abagore n'abagabo, bahagaze ahantu hamwe, bari gukora ibintu bimwe, bambaye imyenda ya siporo, bigaragara ko hariri kubaha amabwiriza yuko bagomba gukora siporo mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni ubuzima, siporo ni umuti, abantu bari gukora siporo zitandukanye, hari bari kwirukanka abicaye bari kugorora umugongo, bari kunagana, ndetse bari muri siporo zitandukanye zibafasha kugira ubuzima bwiza.

Ethic farumasi ni imwe muri farumasi zitanga imiti ku babaswe n'ibiyobyabwenge, ikagira inama abantu gukora siporo kenshi kuko siporo ni ingenzi mu buzima, mu rwego rwo kwirinda agahinda gakabije n'izindi ndwara zose zitera umubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, buri gikoresho, bisa nkaho gifite aho gihuriye n'ikindi, umugabo yicaye ku gatebe imbere ye karakameza, hejuru ako kameza ari imashini, bigaragara ko ari kureba ibintu biri muri iyo mashini.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye biri ku meza ubona ko hari n'igikoresho cyifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ni ngombwa ko dukwiye gufata amafunguro akungahaye ku bitunga umubiri, ibitera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara, nyuma yabyo tugakora siporo mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza.

Aricaye, arambuye amaguru ye, ari kunanura umubiri, ari mu gikorwa cya siporo gifasha umubiri we kugira ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zimwe na zimwe.

Yaba umuto ndetse umukuru siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu rwego rwo kugira ubudahangarwa bw'umubiri no kwirinda kurwaragurika, bya hato na hato bitewe n'imbaraga nke z'umubiri.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo bigaragara ko yarari gukora siporo, apfukamishije ukuguru kumwe, ukundi kurahinye afatishije ibiganza bye kw'ivi bigaragara ko agize ikibazo mu ivi rye.

Mu gihe umuntu afite ikibazo cy'ingingo, hari uburyo bwashyizweho bwo kureba ikibazo ingingo ze zifite, hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga, bibasha gufotora imbere mu mubiri w'umuntu, bikagaragaza ikibazo afite.

Umugabo arimo kunywa amazi bigaragara ko afite icyaka, amazi ni isoko y'ubuzima, kimwe cya kabiri cy'ubuzima bw'umuntu kigizwe n'amazi, ni ngombwa gukoresha amazi asukuye mu rwego rwo kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa uri kunywa amazi, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, amazi adufasha kumva tuguwe neza mu mubiri, bityo umubiri wacu ugakurana imbaraga ndetse ikaturinda n'uburwayi butandukanye, iyo dukoresheje amazi asuku.

Abantu bambaye imyenda ya siporo, ubona ko bari kwirukanka ahantu hagenewe gukorerwa siporo yo kwiruka, ubona ko babikunze babishyizemo imbaraga.

Umukobwa uri kunywa amazi. Amazi n'ubuzima bavuga ko kimwe cya kabiri cy'ubuzima bw'umuntu bugizwe n'amazi, yambaye imyenda ya siporo bigaragara ko avuye mu myitozo.

Umugabo uri kunywa amazi, wiyambariye umupira w'ubururu, amazi ni ingenzi. Umuntu adafite amazi ntashobora kubaho, kuko ubuzima bwa muntu kimwe cya kabiri kigizwe n'amazi. Ni ngombwa kunywa amazi menshi kandi ahagije, afite isuku.

Igihe wumva utishimye, ukumva urananiwe, iyo ukoze siporo, ukanywa amazi, ibyo bigufasha kongera kumva umerewe neza mu mubiri ndetse ufite ubudahangarwa ku buryo wumva ushoboye gukora imirimo yawe uko bikwiye.

Umuntu aricaye ari kunanura amaguru bigaragara ko ari mu gikorwa cya siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, siporo iturinda kurwara indwara zitandukanye.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye bigiye bipanze neza hakurikijwe n'ubwoko bw'ibyo bicuruzwa, buri kimwe kiri mu mwanya wacyo kigitandukanye n'ikindi bifunze neza mu makarito.

Umuntu w'umugabo ufite baro mu ntoki yambaye umupira w'icyatsi kibiti bigaragara ko yiteguye kujya gukina, arahagaze, yiteguye umukino, ategereje abandi bakinana kuko nta muntu ukina ari wenyine.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwita ku buzima bw'abarwayi, harimo ibipfuko, imikasi, hakabamo inshinge ndetse n'ipamba zifashishwa mu gihe umuntu amaze guterwa urushinge.

Umutobe ukozwe mu mbuto zitandukanye, harimo amaronji, pome n'ibindi bimera, uteguwe neza, uri mu kirahuri, imbere yaho hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo z'umubiri.

Mu gihe umuntu yumva yacitse intege, akwiye gukora siporo, akanywa amazi meza kandi ahagije, ibyo biri mu bimufasha gukomeza kugira ubudahangarwa bw'umubiri we, bikamufasha gutekereza neza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Imwe mu miti ishobora kwifashishwa mu gihe umuntu yagize imvune, haba ari gukora siporo akaza kugira ikibazo cy'imvune, ashobora kwifashisha pomade cyangwa se akagana ibitaro bimwegereye bakaba bamugiriraho igisima ku mvune, bityo yirinde ingaruka zishobora guterwa no kubura kutita ku mvune.

Umugabo uri muri siporo wambaye imyenda ya siporo, azamuye akaguru kamwe yagashyize hejuru arimo kunanura ingingo ze, siporo ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umuntu ateruye ijage irimo amazi, arimo arayasuka mu kirahuri, mu rwego rwo gukorera isuku amazi, kuko amazi asukuye ari ingenzi mu buzima bwa muntu.

Umukobwa uri muri siporo, wambaye imyenda imufasha gukora siporo neza, ari kugorora ingingo ze, aho yahuje amaguru agafata ukuboko akakwiyegamiza akigorora.

Dore ibikoresho usanga mu nzu z'imyidagaduro cyangwa se mu nzu zikorerwamo ibikorwa ngororamubiri, usangamo imashini zigufasha kwirukanka, imashini zigufasha kugabanya ibiro ndetse n'ibindi.

Ni ingenzi cyane gusukura amazi mbere yo kuyanywa, ukayateka cyangwa ukifashisha imiti yabugenewe mu gusukura amazi, mu rwego rwo kwirinda indwara iterwa n'isuku nkeya.

Umugabo uhagaze uri kwinanura umubiri we, yafashe akaboko agakoza ku mugongo, siporo zimufasha kunanura ingingo ze bityo bikamurinda uburwayi bwo guhinamirana ingingo ze z'umubiri.

Imipira myinshi itandukanye iri hafi hari imipira yifashishwa mu gukina umukino w'amaguru, hari imipira yifashishwa mu gukina imikino y'amaboko ndetse n'icyuma cyifashishwa mu kumva ko umutima w'umuntu uri gutera.

Siporo ni ngombwa mu gutuma umuntu yumva atuje mu mutwe nta gahinda afite ndetse siporo idufasha gusabana n'inshuti, ikarinda amakimbirane n'intonganya muri sosiyete.

Igikoresho cyifashishwa mu mwuga w'ubuvuzi, hifashishwa hapima uburwayi bw'umurwayi butagaragaye akenshi gikoreshwa iyo umurwayi yavunitse ingingo, bakaba bashaka kugaragaza uburyo bwizi ngingo ze zatandukanyemo.

Icyumba kigizwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gukorera umurwayi ubuvuzi busaba ko bamubaga, bifashisha ibi bikoresho kugira ngo gahunda y'ubutabazi igerweho neza.

Umugabo rwose ubona ko akunda gukora siporo ukurikije uko imikaya ye igaragara urabona ko ari umuntu ufite umubiri ukomeye bitewe no gukora siporo zitandukanye mu rwego rwo kugira ubudarwa bw'umubiri.

Umwana uri kwitabwaho n'umuganga yifashishije ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma indwara zitandukanye zandurira mu kanwa, bitewe n'isuku idahagije yo mu kanwa, bikamutera kurwara amenyo n'izindi ndwara.

Kugira intege nke, kurwaragurika, ibyo byose n'ingaruka zo kudakora siporo ndetse no kwigunga, biri mu biterwa no kudakora siporo, umuntu ukora siporo ntiyigunga kandi agira inshuti nyinshi zitandukanye, bitewe n'uko ahora yumva anezerewe.

Umugore uri mu cyumba kinini cyisanzuye cyo gukorerwamo siporo, urabona ko yambaye imyenda imufasha gukora siporo, ari gukora siporo mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ubuzima bwe, yirinda indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Mu gihe uri gukora siporo ni ngombwa ko uba ura ahantu wumva utuje, mu gihe ututubikanye wakiyambura ukarambura ingingo zawe, ufata akaguru kamwe ukakarambura ugafatata n'akaboko ukagakoza kuri aka kaguru karambuye.

Ababyeyi bafite mu nshingano zo kwita ku mibereho myiza y'umwana wabo, igihe agize ikibazo bakamugeza kwa muganga, abaganga na bo bagakora isuzuma bityo bakamenya ikibazo cy'umwana, bakamufasha bamuha imiti imufasha kurwanya ubwo burwayi.

Ikirangantego kiriho umuntu urimo usa nkaho akora siporo, kikabaho ikimenyetso cyo guteranya gikunze kwifashishwa kigaragaza ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima, kiriho kandi n'abantu bafatanye ukuboko, kikabaho n'undi muntu usa nkaho arimo kwishushura.

Umuntu wiyicariye ubona ko afite ikibazo mu kaguru, yafashe akagombambari ke ubona ko akeneye kwitabwaho shaka umuganga umwita mu rwego rwo gukira imvune yahuye.

Umuntu uri mu cyumba cyabugenewe, ari gukora siporo, ari kunanura ingingo ze, ubona ko yambaye imyenda ya siporo, ku ruhande hari ibindi bikoresho yifashisha mu gukora siporo zigiye zitandukanye.

Mu gihe umuganga agiye kwita ku murwayi ni ngombwa ko yita ku isuku y'ibikoresho agiye gukoresha. Ubwo ni ukuvuga niba igikoresho gikoreshwa rimwe, akagikoresha rimwe, na we akibuka gukoresha uturinda ntoki ndetse n'agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara.

Kunywa amazi menshi ni byiza mu mubiri w'umuntu ko bimufasha gutuma umubiri we ukora uko bikwiye, mu gihe umuntu akoresheje amazi asukuye, bimurinda indwara ndetse bikamutera imbaraga zo kurwanya uburwayi bushobora kwataka umubiri we.

Umugabo uhagaze wiyambuye, wafashe ikiganza cye akagikoza ku mutima we bigaragaza ko afite ikibazo cy'umutima akeneye ubujyanama ndetse n'umuganga umwitaho akabasha gukira.

Umugabo wiyicariye ubona ko ari mu gikorwa cya siporo yambaye imyenda ya siporo, bigaragara ko ari kunanura ukuguru kwiwe mu rwego rwo kugorora ingingo z'umubiri we.

Ikintu cy'ibanze umuntu akwiriye gukora kugira ngo akire indwara zimwe na zimwe zifata imyanya y'ubuhumekero, umubyibuho ukabije, guhumeka nabi, umuntu akwiye gukora siporo kugira ngo umubiri we ubashe kumera neza atarwara indwara zitandukanye.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, iturinda kurwaragurika; siporo idufasha kubaka ubudahangarwa bw'umubiri ndetse tugahora dufite imbaraga, duhumeka neza.

Umukobwa uhagaze yazamuye akaguru ke, agafatisha amaboko ye yombi, yambaye imyenda ya siporo, bigaragara ko ari muri siporo, siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, idufasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Umukobwa bigaragara ko ari umuntu ukunda siporo mu buzima bwe bwa buri munsi, yambaye imyenda ya siporo, yahese umugongo arambura akaguru afata akaboko k'iburyo agakoza ku kaguru, bigaragara ko ari kugorora ingingo ze.

Kuri ubu iyi Si dutuye, iyo umuntu agize ikibazo cy'ingingo, akaba yacika nk'akaguru cyangwa se akaboko, bitewe n'iterambere n'umuvuduko Isi iriho, hakozwe insimburangingo zishobora kwifashishwa n'umuntu wahuye n'icyo kibazo.

Umugore wicaye warambuye akaboko ke akandi yagafatishije agatambaro afata ku nkokora, ubona ko afite ikibazo mu nkokora ategereje umuganga umwitaho.

Umugabo uhagaze wambaye ekuteri arimo kumva indirimbo, ubona ko yazamuye icupa agiye kunywa amazi, ari mu gikorwa cya siporo ni ngombwa kunywa amazi menshi mu gihe uri gukora siporo kuko umubiri uba watakaje amazi menshi.

Umuntu wicaye uri muri siporo, ari kumva indirimbo zitandukanye mu rwego rwo kumufasha kutananiza umubiri we, imbere ye hari icupa ririmo amazi asukuye, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye, wazamuye ivi ari kurigorora, bigaragara ko ari muri siporo cyangwa se akaba afite ikibazo cy'imvune mu kaguru kiwe, ni ngombwa gukora siporo ugendeye ku bushobozi bw'umubiri wawe.

Igikorwa cya siporo n’igikorwa gifasha umubiri, ukora siporo kugira ubudahangarwa bikamurinda kurwaragurika ndetse umubiri we ukagira imbaraga zo gukora ibintu bitandukanye.

Amazi ni ubuzima amazi asukuye ni meza mu mibereho ya buri muntu, adufasha kugira ubudahangarwa ndetse no kugira imbaraga mu byo dukora, bikadufasha gukora akazi kacu ka buri munsi.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ni kimwe mu bidufasha kugira ubuzima buzira umuze, bikaturinda umubyibuho ukabije, ariko biba ngombwa iyo umuntu akoze siporo ugereranyije n'ubushobozi bw'umubiri we, kuko iyo ukoze siporo zinaniza umubiri bikugiraho izindi ngaruka mu buzima.

Ni ngombwa ko muganga akoresha ibikoresho byabugenewe mu gihe agiye kwita ku murwayi mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara zishobora guterwa no kudakoresha ibikoresho twavugamo: uturindantoki, udupfukamunwa, ndetse no gukoresha urushinge inshuro imwe mu rwego rwo kurinda indwara zitandukanye.

Umusore wicaye yarambuye akaguru kamwe akandi gahinnye, umuganga ari kumwitaho amushyira bande ku kaguru, bigaragara ko yavunitse cyangwa se yakomeretse.

Umuntu yambaye imyenda ya sipolo arunamye, yifashe ku ivi bigaragara ko afite ikibazo mu kaguru kiwe, biragaragara ko akeneye umuganga. Bityo ni ngombwa ko mu gihe wumva utameze neza akwiye kugana ikigo nderabuzima kikwegereye.

Stopain ni bimwe mu bikorwa mu bimera bifasha umuntu kugira imikaya ikomeye ndetse bikamufasha no kubaka ubudahangarwa bufasha umuntu kugabanya ubukana bw'indwara zitandukanye.

Abaganga bifashisha ibikoresho bitandukanye mu kuvura umurwayi, bifashisha igikoresho kigaragaza umuvuduko umutima w'urwaye uri gutereraho, ikigero cy'ubushyuhe umurwayi afite, bityo bikabafasha kuvumbura indwara umurwayi arwaye.

Imiti ya kizungu ikurwa mu bimera bimwe na bimwe bitandukanye bijyanwa bigashyirwa mu nganda, bityo bigakorwamo imiti itangwa mu bitaro bitandukanye hirya no hino.

Ikimera cyitwa igikakarubamba gikorwamo imiti myinshi itandukanye, ivura indwara zigiye zitandukanye, akenshi indwara z'uruhu.

Amaronji ni zimwe mu mbuto nziza zifite uruhare runini mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, umuntu wese ufata amarongi kenshi ntakunze kurwaragurika.

Bimwe mu bimera bigaragara hano ku isi bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zimwe na zimwe, ni ngombwa ko dukwiye gusigasira urusobe rw'ibimera hano ku isi.

Ibimera ni bimwe mu byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, ivura abantu indwara zitandukanye, umuravumba ni kimwe muri ibyo bimera utunganywamo umuti gakondo, uvura abantu uburwayi bunyuranyuranye.

Umuntu urimo kugenda hagati mu bimera, bigaragara ko ari inyuma y'ikimera cyitwa umuravumba, ari gushaka umuti wamukiza indwara afite.

Ikimera cy'igitovu, ni kimwe mu bimera bikunze kugaragara ahantu hari ubutaka budaheruka guhingwa, kiba gifite amahwa ku buryo ucyegereye gishobora kumwangiza.

Ibimera bitandukanye byakusanyijwe bigashyirwa mu gakono, barikubisekura kugira ngo babikoremo umuti uvura indwara runaka.

Foreva kidi. Ni amavuta yagenewe gusiga abana ku ruhu rwabo, mu rwego rwo kubungabunga uburere no kurinda kumagara k'uruhu rw'abana. Akozwe mu bimera bitandukanye.

Igiti gakondo nk'umuravumba, ukunze gukoreshwa kenshi nk'iyo umuntu arwaye inkorora akawufata akawuhekenya akamira amazi aturutsemo, ubundi agakira ibisheshe, bimufasha gukira iyo ndwara vuba.

Udusahani dutandukanye duteretse ku kirago, buri gasahani kariho ubwoko bw'ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo, umuvuzi afite agasekuru gato yifashisha iyo ari gutunganya imiti ye arimo kuyisekura ayihinduramo ifu.

Hari imiti imwe n'imwe igenda ituzwa hirya no hino, imiti gakondo ikozwe mu bimera iyo miti ikunze kwifashishwa cyane iyo umuntu arwaye indwara kwa muganga barabuze icyo arwaye.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye biri ahantu hamwe, higanjemo imiravumba n'ibindi byatsi byose bishobora kwifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye. Yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Bimwe mu bimera bigiye bitandukanye, birafatwa bigashyirwa hamwe bigatunganywa, bikaba byakorwamo imiti ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, igashyirwa ku isoko aho buri wese ashobora kujya kuyigura ndetse ikamufasha kumererwa neza.

Ibimera bitandukanye biri ahantu hateguye, hagati harimo urwabya, bifashisha batunganya imiti y'ibyatsi mu bwoko bwa kinyarwanda.

Shampo ni isabune nziza umuntu akoresha mu gihe akorera isuku umubiri we bityo bikamurinda indwara zishobora gutera uruhu rwe, mu gihe agaragaye isuku idahagije.

Udukono twinshi dutandukanye tugiye turimo imiti gakondo yaturutse mu mizi y'ibimera bitandukanye, byakusanyijwe bigashyirwa hamwe hagamije gukorwamo imiti gakondo.

Muganga yicaye mu biro, afite ibipimo ari kureba uburwayi abarwayi bafite kugira ngo abashe kumenya imiti abandikira.

Umugabo uri mu iduka ricuruza imiti igiye itandukanye wambaye akagofero ubona ko ari guseka, acuruza imiti gakondo.

Abantu bari mu rugendo, bari gutembera, bari guca mu mazi, biragaragara ko baherereye ahantu ho mu misozi hari imigezi isuma, bari kwerekeza kuri uwo mugezi uturuka hejuru mu musozi.

Imiti gakondo, ikorwa mu ruvange rw'ibimera bitandukanye, igakorwamo amavuta umuntu ashobora kwisiga, cyangwa se igakorwamo mu buryo umuntu ashobora kuyinywamo, igihe arwaye indwara runaka.

Foreva biya hani, ubuki butunganyijwe neza, umusaruro ukomoka ku bworozi bw'inzuki, ukaba ubuki bufite akamaro kanini mu kurinda ndetse no kurwanya indwara mu mubiri w'umuntu.

Umusaza uhagaze wambaye umupira w'umweru ubona ko ari ahantu hari ibimera bitandukanye, bigaragara ko ari gukora kuri ibyo bimera ashaka ko yabonamo umuti.

Umuntu agira uburwayi butandukanye, hari ukurwara mu mavi, kurwara mu nkokora, kurwara uruti rw'umugongo, ndetse no kurwara impyiko, izo zose n'indwara zititaweho zashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga.

Imbuto zitandukanye zikorwamo imiti igiye itandukanye, bifasha umuntu gufata imbuto ku ifunguro rye, kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ni ngombwa ko dufata imbuto mu gihe dufungura kugira ngo tugire ubudahangarwa bw'umubiri.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibinyobwa bitandukanye, haba ibiryohera, amazi arimo icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibyo binyobwa, abantu ikabamara icyaka.

Hariho amavuriro menshi kuri ubu agurisha imiti gakondo, imiti iba yarakozwe mu rusobe rw'ibimera, igatunganywa igashyirwa mu dupfunyika igashyirwa ku isoko.

Ikirere cyiracyeye izuba riri kuva hose ubona ko n'ibimera bimeze neza bigaragara ko ubutaka busa neza bufite ibikenerwa byose kugira ngo igihingwa kigire ubuzima kimere neza gishishe .

Ibimera bitandukanye bigiye biri mu bwoko butandukanye, bimeze neza bigaragara ko bihinzwe mu butaka buteguye, imvura ibugeraho bigashisha.

Umubyeyi ubona ko yifubitse birasa nkaho hari imbeho ubona ko ari kugerageza gusoroma amababi y'ikimera cyitwa umuravumba mu rwego rwo kujya kubyifashisha umuti gakondo.

Imiti gakondo nayo ikunze gukoreshwa cyane mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'iziba zananiwe n'abavuzi ba kizungu, iyo miti ikunze gukoreshwa cyane n'abantu bakuze.

Oleva atiriketsi amavuta yifashishwa mu kwisigaga, mu rwego rwo gutuma akora ububobere ku ruhu rwa muntu, bikarinda uruhu kumagara.

Aho binariza imbuto zitandukanye, zikorwamo imiti gakondo nk'ingemwe z'umuravumba, ni bimwe mu bimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, hirya no hino.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'icyatsi, ufite ibimera mu ntoki bigaragara ko uyu mugabo afite n'ikarita y'akazi, birashoboka ko ari umuntu ukora imiti gakondo.

Umugabo w'umworozi rwose, ubona ko ari kwita ku musaruro we, atunganya ubuki, abubika neza kugira ngo azabashe kubukoresha muri gahunda ze zimuteza imbere.

Ni amavuta amwe n'amwe akorwa mu bimera byifitemo ubushobozi bwo kurinda uruhu rwacu indwara zitandukanye bityo bikadufasha kurwanya indwara z'uruhu binyuze mu gukoresha amavuta akorwa mu bimera bitandukanye.

Kimwe mu bimera bikorwamo imiti gakondo nk'igikakarubamba gikunze kwifashishwa mu gukorwamo imiti ndetse n'amavuta, akenshi biba bigamije kuvura indwara zikunze kwibasira uruhu rw'umuntu.

Imiti imwe n'imwe yifashishwa mu mavuriro atandukanye, iba yaraturutse mu bimera bigiye bitandukanye bigaragara kuri uyu mubumbe wisi, bimwe mu bimera byifashishwa n'abafite ubumenyi butandukanye mu kubibyazamo imiti bityo bigashyirwa mu bitaro ndetse no mu mafarumasi.

Ibimera byiza, bimeze neza, ubona ko ari ishyamba ritoshye, ikigaragara cyo biteye ku butaka bwiza, bugerwaho n'imvura, ukurikije uko ibibabi byabyo bisa n'icyatsi.

Ubwoko butandukanye bwo kubika ibintu mu buryo butandukanye: Uburyo ki ushobora kubika ibimera, uburyo ki ushobora kubika imiti gakondo ndetse n'uburyo ki wasigasira ibimera bivamo imiti gakondo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa yahishe mu mutwe we, yambaye umwenda w'akazi, ubona ko hari amakarito ari gupfundura akagenda akuramo uducupa tw'imiti adutereka ku umurongo.

Abaturage benshi bari mu murima w'ubuhinzi, ubona ko bari gukurikirana igikorwa cy'ubuhinzi, aho hari imashini ziri kwifashishwa muri iki gikorwa cyo gutunganya umurima uteyemo ibihingwa.

Ibimera bitandukanye nk'igikakarubamba, bikorwamo imiti itandukanye ifasha umubiri w'umuntu, kugira ubudahangarwa ndetse bikongera abasirikare b'umubiri w'umuntu, bafasha umubiri kurwanya indwara ibashaka kwinjira mu mubiri.

Ibitunguru byifashishwa mu guteka, bakaranga ibiryo, ironji risatuyemo ibice bibiri, icupa ririmo amavuta, yifashishwa mu gutegura ibyo kurya.

Ikimera cyitwa umuravumba ni icyatsi gikunze kwifashishwa cyane nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane iyo umuntu arwaye indwara z'ubuhumekero.

Ikimera cy'igikakarubamba ni kimwe mu bimera bifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye, ahanini indwara zikunze kwibasira uruhu ndetse n'ibibazo by'uruhu rwumagaye...

Nubwo imiti gakondo iba itizewe neza ijana ku ijana mu gihe umurwayi ayikoresheje, ariko ni kenshi imiti gakondo ifasha abarwayi gukira indwara zitandukanye.

Iyo umuntu afashe ibimera bitandukanye akabifata akabikoramo agafu, akabika bishobora kwifashishwa nk'umuti ushobora gukoreshwa mu gihe umuntu arwaye.

Hariho amavuta menshi akorwa mu rusobe rw'ibimera bitandukanye, afasha umuntu mu kugira uruhu rutumagaye, bikarinda ubwiza bw'uruhu rw'umuntu.

Tungurusumu ni kimwe mu binyampeke bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zibasira ikiremwa muntu, umuntu ukoresha tungurusumu aba afite ubudahangarwa bwo gukira indwara zinyuranye.

Bimwe mu bimera byamenyekanye cyane, bikorwamo imiti gakondo, cyangwa se bigakorwamo ibirungo by'ubwiza, bifasha abantu mu kugumana itoto ndetse no kubakiza indwara zimwe na zimwe z'umubiri, nicyo bita igikakarubamba.

Hari imiti gakondo ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zimwe na zimwe n'ubwo usanga hari abatabyemera, ariko abakuru bakunze kwifashisha iyo miti mu gihe bumva batameze neza.